Umugabo ari kumwe n'umwana ari kumufasha kwikorera icyo kuvomeramo gisa umuhondo, umugabo ari guseka aganira n'umwana.

Umwana muto w'umukobwa wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, ahagaze ku ivomo ari gukaraba amazi, amazi ava mu ivomo ayakaraba amanukira mu ibase yateretse hasi.

Abantu benshi biganjemo abana, bahuriye ahantu hamwe, bari kureba inkinamico bari gukina ijyanye n'indwara ya Ebola.

Abagore ndetse n'abagabo bahuriye ku ivomero kuvoma amazi yo gutwara mu rugo, bahahuriye ari benshi batondeka ibyo baje kuvomeramo ku murongo kugira ngo babone uko bavoma neza.

Uruganda rurimo imashini zitonze umurongo zifite amabara y'ubururu ndetse n'amatiyo afite amabara y'icyatsi azicometseho, hagati mu ruganda hahagaze umugabo wambaye imyenda yabugenewe yo mu ruganda.

Umugabo w'umusaza ugeze mu zabukuru yaje kwivuza, umugore ubishinzwe yamwica ku ntebe ari kumuvura.

Umujyanama w'ubuzima yasuye umugore ufite umwana mutoya, baricaye hanze, ari kumugira inama z'uburyo yakwita ku mwana we.

Umugore witandiye nk'abisilamu ari kumwe n'umugabo baje ku ivomero bitwaje ibyo kuvomesha, baje kuvoma amazi yo gutwara mu rugo.

Umwana muto yarambuye ibiganza bye ari gukaraba intoki ze azigirira isuku, ari gukaraba amazi meza cyane, arabizi ko kugira isuku ari ingirakamaro ku buzima bwiwe.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umupira w'ubururu, ari kumwe n'umwana, amwerekera uburyo boga intoki n'amazi meza ndetse n'isabune.

Umugabo uzengurutswe n'abana batoya, bose bahuriye ku ivomero aho baje kuvoma amazi yo gutwara mu rugo.

Umwana uri ku ishuri wambaye imyenda y'ishuri, afite igikombe mu ntoki ziwe ari kuvoma amazi kugira ngo anywe, afite inyota nyinshi cyane.

Umugore, yaje ku ivomero, arimo aroza umufuniko w'indobo ye, yambaye igitenge, ndetse ahetse n'umwana we, mu kindi gitenge.

Umubyeyi wazanye umwana we kwa muganga baricaye bari kumwe na muganga wambaye itaburiya y'umweru umubyeyi akikiye umwana we muganga ari gupima umwana.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe bari gufata ibizamini by'abarwayi, aho bakoresha agashinge batera ku rutoki kugira ngo babone amaraso yo gufatiramo ibizamini.

Abakangurambaga b'ubuzima, bari kumwe n'umuyobozi wabo wambaye ishati y'umweru, yashyizeho hejuru ikoti ry'ikigina. Abakangurambaga bambaye amataburiya y'ubururu, bahagaze bitegura gufata ifoto, bashyize ama telefone y'abo imbere.

Umwana muto yaje ku iriba, yarambuye ikiganza cye, amazi ari kumumeneka ku ntoki, umwana na we ari gukaraba intoki neza yitonze.

Abagabo batatu ndetse n'abagore babiri bafite uruhu rwera, baricaye mu cyumba cy'inama aho bari gukora inama ku bijyanye n'ubuzima.

Muganga ari gusobanurira ababyeyi harimo abatwite ndetse n'abamaze kubyara bafite abana, uburyo bwiza bwo kwita ku mibereho myiza y'abana babo mu gihe cy'iminsi igihumbi.

Abana b'abanyeshuri, bambaye imyenda y'ishuri, barimo barakaraba intoki n'isabune, ndetse n'amazi meza, umwe muri abo bana, arikwereka ubishinzwe, ko yamaze gukaraba intoki ze, kandi zisa neza.

Mu cyumba cyo kwa muganga, abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'umugore wambaye ikanzu y'umutuku ubahagazemo hagati, barahagaze biteguye gufata ifoto.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'umwenda wabigenewe w'icyatsi, afite agakoresho mu ntoki ze, ari gupima umurwayi umuri imbere.

Abagabo batatu b'abaganga, barahagaze bambaye imyenda yabugenewe, babiri muri bo bambaye imyenda ifite ibara ry'ubururu, naho undi afite itaburiya y'umweru.

Abajyanama b'ubuzima bambaye amataburiya y'ubururu barishimye nyuma yo kurangiza amahugurwa barimo basobanurirwa uburyo bwo kwita ku babagana.

Uruganda rutunganya amazi akoreshwa n'abaturage hirya no hino; rufite ibiziga bikusanyirizwamo amazi, ubundi akitabwaho, agasukurwa kugira ngo abone yoherezwe mu baturage.

Mu cyumba cy'inama harimo abantu benshi batumiwe. Abatumiwe bari kuganirizwa kuri serivisi z'ubuzima, higa ku cyakorwa kugira ngo hongerwe amafaranga mu bijyanye na serivisi z'ubuzima.

Abagore batatu bahuriye ku iriba baje kuvoma amazi yo gutwara mu rugo, aya mazi yabagejejweho na Leta muri gahunda yo kwegereza amazi meza abaturage.

Ikiziga cyubakiye, gikusanyirizwamo amazi, avanwa mu mugezi kugira ngo atunganwe neza, bayasukure, yoherezwe mu baturage, bayakoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugore ufite umwana muto yamuzanye kwa muganga, muganga yabicaje ku ntebe maze umugore akikira umwana, muganga abicara imbere kugira ngo asuzume umwana.

Ivomero ry'amazi ava mu butaka aho abayavoma bakoresha imbaraga mu kuyasunika bayakura mu butaka bayazana hejuru, umugabo arimo arakoresha imbaraga ayazamura mu butaka umwana mutoya ufite ububido bubiri ateze ku mazi arimo aravoma.

Umugore waje ku ivomero ari koza umwana we, yamuteretse mu ibase. Ku ruhande hariho abandi bana, bamwe bavoma, abandi bari kureba uwo mugore yoza umwana we.

Abana barishimye bafatanye ku ntugu, bambaye imipira y'ubururu yanditseho UNICEF bigaragara ko babahurije hamwe kugira ngo babiteho ndetse babagire n'inama.

Abagabo bambaye amashati, ndetse n'abandi bambaye amakoti, bari kumwe n'abagore, bahuriye ku meza y'uruziga, baricaye bari gukora inama, ku bijyanye na serivisi z'ubuzima.

Ivomero ry'amazi rikoresha imbaraga kugira ngo amazi ave mu butaka, abana bari kurivomeraho, umukobwa ugaragara nk'aho ari mukuru kubarusha, arikubafasha kuvana ayo mazi mu butaka hakoreshejwe imbaraga, na bo bateze ibyo bavomesha kugira ngo amazi abijyemo.

Umwana muto w'umuhungu wambaye umupira w'umuhondo, yazanye icyo kuvomesha gifite ibara ry'umweru ari ku iriba ari kuvoma amazi yo gutwara mu rugo.

Abagore n'abagabo bahurijwe mu cyumba cy'inama, bari kuganirizwa kuri serivisi z'ubuzima, baricaye, barakurikiye bateze amatwi ibyo bari kubabwira.

Abagabo bateranyirijwe ahantu hamwe, bahawe imyenda y'imipira y'imyeru igaragaza igikorwa bajemo, bose baricaye, barakurikiye.

Umugore wambaye amadarubindi ndetse n'igitenge yambariye mu gatuza, ari guseka arishimye ari kumwe n'abana bamuri inyuma nabo bishimye.

Abaturage bavuye ahantu hagiye hatandukanye, bahuriye ku ivomero baje kuvoma amazi yo gutwara mu ngo zabo. Baje kuvoma bitwaje indobo ndetse n'amajerekani.

Abaturage benshi bagiye bava ahantu hagiye hatandukanye bahuriye ku nzu kugira ngo bahabwe serivise z'ubuzima. Bamwe barahagaze, abandi baricaye bategereje ko bagerwaho ngo bahabwe serivise.

Uruziga rwubatse na sima, rukusanyirizwamo amazi avuye mu migezi, aho abategereje gutunganywa akoherezwa mu baturage bakoreshejwe amatiyo kugira ngo bayakoreshe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abana babanyeshuri bishimye bari guseka, bamwe muri bo bambaye impuzankano zisa icyatsi, baje ku ivomero kunywa amazi.

Umunyeshuri wambaye inifomo ari gukaraba intoki akoresheje kandagira ukarabe, uyu munyeshuri akaba yarasobanukiwe neza akamaro ko gukaraba intoki n'isabune ndetse n'amazi meza.

Umubyeyi wambaye igitenge ndetse uniteze igitambaro mu mutwe, ari kumwe n'abana bato bahuriye aho bavomera bitwaje ibikoresho bigiyeye bitandukanye byo bavomesha kugira ngo bavome amazi yo gutwara mu rugo.

Abantu bagiye batandukanye bicaye mu nama bakurikiye, bicaye ku ntebe z'imituku bazengurutse ameza y'umukara, buri umwe agiye yiteretse icupa ry'amazi.

Imodoka y'umweru yanditseho amagambo mu ibara ry'umutuku, ifite ibirango bisa ubururu, ikoreshwa nk'imbangukiragutabara abenshi bita ambulance, ihagaze imbere y'akagari gafite idarapo rimanitse ku muryango.

Umwana wambaye ikanzu y'umweru, yaje ku ivomero azanye indobo z'umweru, kugira ngo avome amazi yo gutwara mu rugo.

Abantu bazengurutse ivomero rishya babegereje, kugira ngo babone amazi yo gukoresha mu ngo zabo hafi. Umwe muri abo bantu ari ku ivomero, ari kuvoma amazi.

Abana bambaye imyenda y'ishuri, harimo abahungu ndetse n'abakobwa, barishimye bari guseka, aho baje ku ivomero bazanye indobo z'umuhondo kuvoma amazi.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho abantu bagiye batandukanye, bicaye ku ntebe zateguwe, bategereje ko muganga abakira, ubundi akabavura.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi, bose bambaye udupfukamunwa, umuganga ari gutera urushinge rw'urukingo, mu kaboko k'umurwayi.

Abana b'abanyeshuri uko bambaye inifomo, bari guseka bigishwa gukaraba intoki n'isabune ndetse n'amazi meza, bari ku ivomero aho bari kuberekera uko babigenza.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'amadarubindi, ahagaze imbere y'abantu ari kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima.

Umugore wishimye uri guseka, yaje kuvoma amazi ku iriba, akoresheje indobo y'umukara, yazanye n'umwana we amutwaye mu ntoki.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri irimo umupira ndetse n'ishati y'umweru. Ahagaze aho bakarabira, ari gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune.

Abagore batatu, babiri muri bo bazanye ibyo kuvomesha ku iriba, baje kuvoma amazi, umwe arunamye ari kuyanywa akoresheje ibiganza.

Abana bane bari imbere barimo barakina umukino ugaragaza uburyo uburenganzira bw'abana bwarindwa, bugasigasirwa, kugira ngo ntihagire umwana ubangamirwa.

Umugabo afite indangururamajwi y'umukara ahagaze imbere y'abantu batumiwe. Baricaye bamuteze amatwi bari kumva ibyo arimo arababwira neza.

Umugore wazanye umwana we muto w'uruhinja kwa muganga, bicaye ku ntebe mu cyumba cyo kwa muganga, umugore akikiye umwana we, muganga ari gutamika umwana muto w'uruhinja umuti.

Umubyeyi wambaye igitenge wambaye agatambaro gasa n'igitenge mu mutwe, ateruye umwana we afite n'anvelope irimo impapuro zo kwa muganga yaje kuvuza umwana we.

Abagabo babiri bambaye amakoti bari guhana ibiganza baseka, inyuma yabo hari undi mugabo w'umwirabura uri kuganira n'umuzungu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite indangururamajwi y'umukara ndetse n'agatabo akoresha yigishirizamo abaturage yatumiye, bicaye hamwe ku ntebe z'imyeru z'amapurasitike, bamuteze amatwi.

Umubyeyi wazanye umwana we muto w'uruhinja kwa muganga kumuteza urukingo, ari kumwe n'umuganga ndetse n'abandi baje bamuherekeje.

Uruganda rutunganya amazi ajyanwa mu baturage kugira ngo bayakoreshe imirimo yabo ya buri munsi, uruganda rufite ibiziga bitatu bitunganya amazi akajyanwa mu baturage.

Abaturage biganjemo abagore, ndetse bamwe muri bo bafite n'abana, bakusanyirijwe ahantu hamwe, umugabo abahagaze imbere ari kubasobanurira ku bijyanye na serivisi z'ubuzima.

Abana b'abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri, inyuma yabo hari ikibaho, cyanditseho n'ingwa y'umweru, bicaye ku ntebe zo mu ishuri, imbere yabo hateretse amasahani ariho ibiryo birimo ibishyimbo.

Umugore wambaye ikoti, uhagaze hagati uri kugezaho abantu bitabiriye inama, uko serivise z'ubuzima zakwegera abaturage.

Umukobwa wazanye na murumuna we baje kuvoma amazi ku iriba, buri umwe yazanye icyo kuvomesha ashoboye gutwara.

Abana batatu bavuye mu rugo iwabo, baje gushaka amazi yo gukoresha. Bari kuvomera amazi mu mugezi, amazi nago asa neza cyane.

Mu cyumba cyo bavuriramo abarwayi kwa muganga, abaganga bazengurutse umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi, abaganga bari kuvura uwo murwayi.

Umugabo wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara ahagaze imbere ya kandagirukarabe, ari gukaraba intoki ze n'amazi meza ndetse n'isabune.

Muri gahunda zo kugeza ubuvuzi bwiza ku baturage, abaganga bambaye imyenda yabugenewe bakusanyije abaturage, umusaza ni we ugezweho yicaye ku ntebe y'umutuku, abaganga bari kumwitaho.

Abagore batatu bahuriye ku ivomero baje gushaka amazi yo gukoresha mu ngo zabo, babiri muri bo bari gukoresha ivomero basunika n'imbaraga kugira ngo amazi azamuke hejuru.

Ku ivomero haje umugore uje kuvoma amazi yitwaje icyo kuvomeramo, gifite ibara ry'umuhondo. Yambaye ingofero mu mutwe ndetse n'umupira w'imbeho. Yikenyeye igitenge.

Umujyanama w'umugore wambaye itaburiya y'ubururu afite ibishushanyo akoresha yigisha famiye y'umugabo n'umugore, umugore akaba atwite arabigisha uko bakita ku mwana wabo utaravuka ndetse no mu gihe yavutse uburyo bazamwitaho.

Abagabo babiri bambaye amakote bari guhana ibiganza basuhuzanya umwe yambaye amarinete ndetse afite n'ibitabo mu ntoki, inyuma yabo handitse amagambo mu ndimi z'amahanga asobanuye mu kinyarwanda ngo twatsinze mariburu.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa ndetse n'ikote ry'umukara, yazanye n'umwana we muto w'umukobwa, bahagaze imbere y'ameza yicayeho abaganga, babahereza serivisi zo kwa muganga.

Ikirango kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi bikikije ikimeze nk'aho aho ari umubumbe w'isi, gihagarariye ikigo mpuzamahanga gishinzwe ubuzima.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abandi bakozi babishinzwe, baje gutanga ubuvuzi ku bana, babahereza ibinini bivura indwara zigiye zitandukanye.

Umugore wambaye imyenda ikozwe mu gitenge, witeze igitambaro gisa n'imyenda yambaye. Ateruye umwana ndetse afite n'impapuro yaje kuvuza umwana we.

Abagabo bambaye ingofero n'abagore bamwe na bamwe muribo bi bitaye nk'abisilamu barahagaze bari kwitegura gufata ifoto bafite ibipapuro by'umweru byandikishijweho ikaramu y'ubururu.

Umukobwa waje kuvoma yitwaje ikivomesho gisa umuhondo, yaje aherekejwe n'abana babiri, bamutegereje kugira ngo amazi yuzure icyo baje kuvomeramo ubundi batahe.

Umwana mutoya uri ku ivomero, ari gukaraba amazi ndetse ari kureba n'inyuma areba niba abo bazanye bari kumwe.

Abana bato bahuriye ku ivomero, bari kurwanira gushyira ibiganza byabo ku ivomero kugira ngo bakarabe intoki.

Umubyeyi yazanye umwana we muto kwa muganga. Abaganga babiri uw'umugabo ndetse n'uw'umugore, bari kwita ku mwana uryamye ku gatanda ko kwa muganga.

Umujyanama w'ubuzima yicaranye n'abagore batatu, ari kubasobanurira uburyo bakita ku buzima bwabo neza, abo bagore baricaye bamuteze amatwi.

Umwana muto w'umukobwa asutamye ku ivomero, yateze ibiganza amazi ari kumumeneka ku ntoki na we akaraba intoki neza.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu yicaranye nbana batatu bose hamwe baje kwivuza kwa muganga baricaye bategereje ko babakira.

Umugabo wambaye amadarubindi y'umukara, asutamye kuruhande rw'umwana, bose bambaye imipira isa umwana, ahagaze hejuru y'umunzani.

Inama irimo afurika yunze ubumwe yateranye kugira ngo ivuge ku kibazo cya MVD ariyo marburg virus desease indwara y'icyorezo yari yibasiye isi.

Abana babiri umwe uhagaze hejuru y'indobo y'ubururu, afite isabune mu ntoki agiye gukaraba intoki, undi mwana afite igikoresho kirimo amazi kugira ngo amusukire amazi abashe gukaraba.

Inama yateranye, abantu batandukanye bo mu nzego zibishinzwe bari kuganira uburyo bakegereza serivise z'ubuzima abaturage.

Abagore babiri bose bafite abana bato b'impinja mu ntoki. Babazanye kwa muganga kugira ngo bahabwe serivisi z'ubuvuzi zigenewe abana.

Umwana muto ari kwigishwa gukaraba amazi meza n'isabune, akaraba intoki, ari gusukirwa amazi n'umuntu mukuru amwerekera uko babikora.

Abana batoya bari ku ivomero. Bari gukina n'amazi barishimye bari guseka. Inyuma yabo hari abandi bana babashungereye, bari kureba ibyo barimo gukora.

Abaforomo bambaye imyenda y'umweru bicaye ku ntebe z'umweru bazengurutse ameza y'ibiti aho bari gufata amakuru ari mu dutabo duto tw'icyatsi bayimurira mu bitabo binini by'umweru bakoresheje amakaramu.

Gahunda ya leta yo gutera uturima tw'igikoni dufasha abaturage mu kubona imboga byoroshye kandi hafi, yakozwe abaturage ibatererwa uturima tw'igikoni hifashishijwe imifuka ndetse n'itaka risanzwe.

Umugore yicaye imbere y'abaturage, ari kubaganiriza ku bibazo by'indwara zo mu mutwe, ku ruhande rwe hari undi mugore uri kumwumva, ufite ikayi urimo uragenda yandika ibintu ari kumva.

Umugabo ufite imisatsi ijagaraye, wambaye igitenge yazingiye mu ijosi, uwo mugabo yicaye muri ruhurura, aho amazi y'imvura aca, ni umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umubyeyi witeze igitambaro mu mutwe, ateruye umwana we muto ndetse inyuma ye hari n'abandi bana, yiteretse intara imbere, iriho ibishyimbo ari gutoratoranya.

Abana b'abanyeshuri benshi cyane bahagaze ahantu hamwe bari kureba imbere, barishimye, bamwe muri bo bazamuye amaboko bari gupepera.

Abagore batatu, bose bakenyeye ibitenge, ndetse banafite n'inkoni zo kugendesha, umwe muri bo akikiye umwana muto cyane, barahagaze bari kuganira.

Umugore wicaye ku ntebe ikozwe mu giti. Imbere ye, hari umusambi ndetse yicaye no munsi y'idirishya rifunguye. Yifashe nk'umuntu ufite ikibazo.

Umukobwa wicaye ku musambi uzinze ku ruhande rw'igiti, ku giti hariho umunyururu uziritse ku kaguru k'umukobwa.

Umunsi mpuzamahanga wo kwita ku bafite uburwayi bwo mu mutwe uwo munsi ukaba uba buri mwaka ku itariki icumi z'ukwezi kwa cumi ku isi hose.

Umwana muto w'umuhungu w'umwirabura ari kurira amarira ava mu maso atemba ajya ku matama, amaso ye yatukuye cyane yababaye hari ikintu cyamubabaje.

Umugore wambaye umupira w'umweru, ufite indangururamajwi mu biganza bye, ahagaze imbere y'abantu ari kubaganiriza, inyuma ye hari ikirango kinini cyanditseho amagambo agira ati " Twite ku buzima bwo mu mutwe aho dukorera."

Abagore babiri baricaranye, umwe afashe ku rutugu rwa mugenzi we, amugira inama mugenzi we arikumwumva na we yumva inama amugira.

Abagabo babiri umwe usa neza wambaye itise ndetse n'ishati, ahagararanye n'undi mugabo wambaye incwabari ufite n'imisatsi ijagaraye, bari guhana ibiganza.

Umugore wicaye ku ntebe y'igiti, yiteze igitambaro mu mutwe, ari kureba ku ruhande, arababaye cyane asa nk'ufite ikibazo.

Abagabo babiri bicaranye n'abagore batatu ndetse n'akana gato kabicayemo hagati, baricaye bari kuganira barishimye.

Ku munsi mpuzamahanga wo kwita ku bibazo byo mu mutwe, ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima RBC cyateguye ikiganiro kijyanye no kwita ku bibazo byo mu mutwe.

Umugore ukuze w'umukecuru, yicaye ku kirago. Azengurutswe n'abana bato cyane, bishimye bari guseka. Aba bana ni abuzukuru biwe.

Umugabo ubabaye cyane wubitse umutwe yifashe ku gahanga, ari kumwe n'umugore uri kumuhumuriza amukomanga ku rutugu amubwira ati humura.

Abagore bane bicaye ku ntebe irambuye, bicaye imbere y'umugabo wazinze ipantaro ye akayigeza mu mavi bari kuganira bishimye.

Umubyeyi w'umugore, wambaye igitenge cyiza cyane, gisa icyatsi ndetse n'agatambaro mu mutwe gasa nk'igitenge cyiwe, arishimye ari guseka, inyuma ye hari abandi bantu bahahuriye barimo baraganira.

Umugabo wambaye agapfukamunwa akambariye munsi y'akananwa, ahagaze imbere y'abantu yakusanyije, biganjemo abagore, ari kubaganiriza ku buzima bwo mu mutwe.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa yamanuye akakageza mukananwa aricaye ahetse umwana, ku ruhande rwe hari undi mwana we mutoya umwicaye iruhande mu gihe arimo arabatekera igikoma.

Umugore wambaye ikote ry'ubururu na marinete, ufite indangururamajwi y'umukara yiteretse amazi imbere ye ku meza yicayeho, ku ruhande rwe hari umugabo wambaye agapfukamunwa ndetse n'ishati irimo uturongo.

Umugabo wambaye imyenda icitse ahetse imifuka isura ye isa nk'ifite amakara cyangwa yisize ibindi bintu by'umukara afite kuba ari umusazi cyangwa afite ikibazo cyo mu mutwe.

Abantu bateraniye muri salle b'ingeri zitandukanye baricaye bateze amatwi, bari kumva ikiganiro kijyanye n'indwara zo mu mutwe.

Abantu bicaye ku mameza ariho ibitambaro by'umweru ndetse bifitemo n'ibara ry'ubururu, baricaye, imbere yabo hari umugore uri kubaganiriza ku kibazo cy'indwara zo mu mutwe.

Umugabo wicaye ukenyeye igitenge, yicaye ku musambi ndetse arahangayitse cyane kuko yifashe mu gahanga kandi akaba yicaye mapfubyi.

Ababyeyi bane b'abagore bicaye ku ntebe bari kumwe n'umugabo wazinze ipantaro akayigeza mu mavi, baricaye bari kuganira.

Umugabo ugeze mu za bukuru ari guseka, afite amenyo amwe y'imbere yavuyemo, afite imisatsi ijagaraye, bigaragara ko ari umugabo ufite uburwayi bwo mu mutwe.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'icyatsi, ari kuvura umwana muto uryamye ku gatanda k'abarwayi kwa muganga.

Umwana muto cyane, aryamye ku ntebe y'abarwayi kwa muganga, ari kuvurwa na muganga w'umugore wambaye amadarubindi mu gahanga ndetse n'agapfukamunwa.

Umurwayi waje kwivuza amenyo yiwe, aryamye ku gatanda kwa muganga. Muganga ari kumuvura akoresheje ibikoresho byabugenewe.

Icyumba cyo kwa muganga gifite inkuta z'umweru ndetse n'utubati tw'umweru, kirimo intebe ebyiri imwe yicarwaho na muganga, indi yicarwaho n'umurwayi bamuvura.

Umugabo ari gukoresha agakoresho gatangwa n'ibitaro, gatuma amenyo ajya ku murongo neza, arasamye ari gushaka kugashyira mu kanwa.

Umusore wambaye amadarubindi, ufite amenyo meza. Uwo musore yatunze intoki ku menyo yiwe, agaragaza uburyo ayitaho, ndetse ko asa neza cyane.

Umugabo w'umwirabura, ufite amenyo meza cyane, ari kuyakorera isuku akoresheje urudodo kugira ngo abashe kuyasukura neza.

Muganga ari kwita ku buzima bw'umurwayi w'iwe wamugannye bwo mu kanwa, akaba ari kumupima amumurika agatoroshi mu kanwa kugira ngo arebe ahaba hari ikibazo.

Umunyeshuri mu kigo cy'amashuri arimo arigishwa na mwarimu wiwe uburyo bwo gusukura amenyo, umunyeshuri akaba yambaye ishati y'icyatsi ndetse na mwarimu we yambaye itaburiya y'umweru.

Umwana muto yagiye kwa muganga w' amenyo, muganga wamenyo ari kumufasha kuba bamukura amenyo bita impingikirane akura atari mu murongo w'ayandi.

Muganga akoresheje mudasobwa ngendanwa ari gusuzuma neza amafoto yafashwe y'umurwayi areba uko amenyo ye ameze ndetse n'ikibazo yaba afite.

Umugabo w'umwirabura ufite amenyo meza asa umweru, ari kwireba mu ndorerwamo kugira ngo abashe kubona neza amenyo ye, ayakorere isuku ihagije.

Umusore w'umwirabura yaje kwa muganga kwivuza amenyo, muganga yamuryamishije ku gitanda cy'abarwayi ari kumuvura amenyo.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho abarwayi bafite ibibazo by'amenyo baza guhurira na muganga. Muri icyo cyumba harimo intebe ya muganga yicaraho ndetse n'indi umurwayi aryamaho arimo aravurwa.

Muganga w'amenyo ari kumwe n'umusore waje kwivuza amenyo ye, muganga akoresheje udukoresho areberaho ari gupima amenyo y'umusore.

Muganga ari kuvura umurwayi w'umugore, umugore araryamye ku gatanda gasize amabara mu cyumba cy'umweru. Muganga yambaye agapfukamunwa ndetse na ga zimufasha kuvura umurwayi.

Umukobwa waje kwa muganga kugira ngo bite ku menyo yiwe. Muganga yaryamishije umukobwa ku gatanda k'abarwayi, ari kumuvura amenyo.

Umwana muto w'umukobwa yaje kwa muganga w'amenyo, bamuryamishije ku gatanda, muganga akoresheje utwuma twabugenewe ari kumuvura amenyo yiwe.

Umwana muto waje kwa muganga kwivuza amenyo, muganga akoresheje ibikoresho byabugenewe ari kuvura umwana.

Umwana useka neza ufite amenyo y'umweru uyitaho cyane ubu, ari koza amenyo yiwe akoresheje uburoso bw'amenyo gusa umuhondo ndetse bufitemo n'irindi bara ry'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari intebe y'abarwayi ifite ibikoresho bihagije, ifite akandi gatebe ku ruhande muganga yicaraho, ari kuvura uburwayi.

Umusore w'umwirabura usa neza ari gusukura amenyo ye akoresheje urudodo. Abikora buri munsi, niyo mpamvu amenyo ye asa neza cyane kandi agaragara nk'adafite ibibazo.

Umwana w'umukobwa muto yagiye kwa muganga kwivuza amenyo ye, muganga akoresheje utwuma twabugenewe ari kuvura umwana w'umukobwa.

Umwarimu wambaye itabuririya y'umweru ari kumwe n'umunyeshuri wiwe wambaye inifomu isa icyatsi ari kumwigisha uburyo bita ku menyo, bakoresheje ikibumbano gifite amenyo, bamwereka uburyo bayoza neza bakoresheje uburoso bw'amenyo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara bajyana mu bwogero, ahagaze mu bwogero yireba mu ndorerwamo asukura amenyo ye.

Abaganga bahurije hamwe abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'abana kugira ngo babasuzume amenyo, babashe kubaha ubufasha bw'ibanze.

Umudogiteri uri kwa muganga wambaye itaburiya y'umweru, ari mu biro byiwe ku ruhande rw'agatanda k'abarwayi.

Umukobwa ufite uburoso bw'amenyo uhagaze imbere yindorerwamo nini ari gusukura amenyo yiwe kugirango ayarinde kwangirika.

Umukobwa waje kwa muganga w'amenyo, nyuma yuko amenyo yiwe bayitayeho neza, bamuhaye indorerwamo kugira ngo arebe uko amenyo ye ahagaze.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo icyumba muganga w'amenyo yakiriramo abarwayi, muri icyo cyumba harimo intebe ya muganga ndetse n'akandi gatanda umurwayi aryamaho iyo umuganga ari kumuvura amenyo.

Umusore mwiza w'umwirabura yagiye kwa muganga kwivuza amenyo, muganga wambaye ga z'ubururu arimo araganira n'umusore, umusore amusobanurira ikibazo amenyo ye afite.

Umusore w'umwirabura ari kwireba mu ndorerwamo, kugira ngo abashe kubona amenyo ye neza, ayasukure akoresheje urudodo.

Umwarimu w'umugore uri kumwe n'abanyeshuri mu cyumba cy'amashuri barishimye bari guseka , yabazaniye ibisuguti byo kurya.

Muganga ari kumwe n'umwana muto ari kumupima mu kanwa, yambaye ibikoresho byabugenewe mu biganza kugira ngo abashe kubona ikibazo umwana afite mu kanwa.

Icyumba cy'umweru, kirimo intebe ebyiri, imwe n'iya muganga, iyindi n'iyo umurwayi aryamaho bari kumuvura, icyo cyumba kirimo imashini zabugenewe muganga akoresha avura umurwayi.

Umugore ari kumwe n'umwana we muto w'umukobwa bafite uburoso bw'amenyo mu ntoki, umugore ari kwerekera umwana we uko basukura amenyo neza.

Umusore w'umwirabura ufite imisatsi ikaraze abyutse mu gitondo yita ku menyo yiwe akoresheje urudodo amenyo ye arasa neza cyane ni umuntu uyitaho buri munsi.

Umugabo n'umugore, bageze mu zabukuru, bari kumwe n'abana babo ndetse n'akuzukuru kabo mo hagati. Barishimye, bari guseka nk'umuryango.

Umugore ugeze mu zabukuru, wambaye isengeri ifite ibara ry'icyatsi. Aryamye ku gasambi gafite ibara ry'ubururu bwerurutse, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umwana muto w'umukobwa afite mubi biganza bye umupira wa basiketi ari gukina n'umubyeyi wumugabo ariwe papa we barishimye bari guseka.

Umugabo ugeze mu zabukuru kuko afite imvi, yicaye ku ntebe ndetse imbere ye hari imeza ari gusoma mu gitabo kimuri imbere.

Umugore ugeze mu zabukuru kuko afite imvi ari kumwe n'umuforomokazi wambaye imyenda yabugenewe, barishimye bari kuganira baseka.

Abantu bagiye batandukanye bahurije ahantu hamwe munsi y'igiti kugira ngo baganirizwe. Bamwe bicaye ku ntebe z'amapurasitike z'umweru, abandi bicaye hasi, bakoze uruziga.

Umugabo n'umugore, bageze mu zabukuru, bicaye ku meza, bari kureba muri telefone. Ku ruhande hateretseho ikirahure cy'amazi ndetse n'imiti bagiye kunywa.

Umuforomo w'umugore ari kumwe n'umugabo ugeze mu za bukuru, uwo mugabo afite imbago za kijyambere zifite amaguru ane zimufasha kugenda.

Umugore ukuze kuko afite imvi, ari kumwe n'abana be babiri; umwe w'umuhungu undi w'umukobwa, bari kumwitaho bamuhereza indyo yuzuye.

Umugabo ugeze mu zabukuru kuko afite imvi mu bwanwa ndetse no mu misatsi, ari kumwe n'umukobwa we wambaye amarinete, barishimye bari guseka.

Abagabo babiri bazindutse bajya gukora siporo ngororamubiri yo kwiruka, umwe muri abo bagabo afite mu ntoki ze icupa ry'amazi, bari gukora siporo bishimye baseka.

Umugabo ndetse n'umugore bageze mu zabukuru kuko bose bafite imvi, baricaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari ameza ateretseho ikirahure kirimo amazi. Umugore afite igipapuro mu ntoki ari kugenda yereka umugabo we.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru kuko bafite imvi, bahagaze imbere y'ameza bafite imiti imbere yabo, bari gutunganya ngo bayinywe.

Kwa muganga, umurwayi araryamye ku gitanda, yiyoroshe amashuka y'umweru, ku ruhande rwe, hahagaze muganga wambaye itaburiya y'umweru, ndetse uri gukoresha imashini zo kwa muganga apima umurwayi.

Umugabo ugeze mu zabukuru kuko afite imvi mu mutwe, aricaye ari kwisuzuma akoresheje imashini yabugenewe yambara ku kuboko ikamubwira uko ubuzima bwe buhagaze.

Umugabo ugeze mu zabukuru kuko afite imvi, yambaye amarinete, ari kumwe n'umuforomokazi, uri kumufasha gukora siporo amuhereza akuma gafite ibiro, kugira ngo agaterure.

Umwana na mama we, barishimye bari gukina umukino wo guhuza utuntu duteretse ku meza. Umwana arimo aritegereza neza uko baduhuza.

Umuforomo wambaye imyenda y'icyatsi, wambaye agapfukamunwa k'umweru, ari gufasha umugabo ugeze mu zabukuru wambaye ishati y'ubururu na we wambaye agapfukamunwa.

Umugore witeze igitambaro cy'umutuku ndetse n'umugabo we bageze mu zabukuru baricaye, bari kuganira, bari guseka.

Umugabo n'umugore bari gufasha umusaza ugeze mu zabukuru, bamuhagurutsa ku buriri yari yicayeho. Bari kubikora gake gake, kuko ageze mu zabukuru nta mbaraga agifite.

Umugore usa nk'aho akuzemo, ari mu cyumba cyiza cyane. Yicaye hasi ku gasambi arambije amaguru, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umuforomo w'umugore ari kumwe n'umugabo ugeze mu zabukuru, umugabo yicaye ku gitanda umuforomo ari kumufasha guhaguruka.

Abagore ndetse n'abagabo, bahagaze mu murima w'ibigori, barishimye, bahuriye hamwe kugira ngo barebe uko umusaruro wabo uhagaze.

Umugore uri hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo itanu, yarambuye hasi agasambi gafite ibara ry'icyatsi akicayeho yarambuye amaguru ari gukora siporo ngororamubiri.

Abagore babiri bakuze mu myaka kuko bose bafite imvi ndetse bakaba bagenda bifashishije inkoni ndende, bari kugenda basindagizanya kugira ngo barebe ko bagera aho bagiye.

Umuforomo wambaye imyenda y'ubururu, ari kwerekera umugabo ugeze mu za bukuru, wambaye amarinete, uburyo bakora siporo ngororamubiri.

Abagore batatu bakuze mu myaka, kuko bose bafite imvi, barahagaze bari guseka bareba muri telefone, bari kwifotoza.

Umuforomo ari kumwe n'umugabo ugeze mu zabukuru kuko afite imvi mu bwanwa, ari kumukoresha imyitozo ngororamubiri.

Abagabo babiri bafatanye ku ntugu, bari gutembera mu busitani, bari kugenda baseka, umwe muri abo bagabo yambaye ingofero.

Abagore bageze mu zabukuru, bateraniye ahantu hamwe, bari gukora udukino. Bamwe bambaye imipira y'umweru, abandi bari kubererekera, uko imikino ikorwa.

Umugabo ukuze mu myaka yicaye ku ntebe, afite mudasobwa imbere ye, iteretse ku meza y'umweru, umugore uri kumuhereza ibinini, yamuzaniye n'ikirahure kirimo amazi yo kunywesha ibyo binini.

Abagore babiri, umwe ufite ikibazo cy'amaguru ari kugendera ku mbago ya kijyambere y'amaguru ane, mugenzi we ari kugenda gake amufasha kugenda.

Umugabo uri mu zabukuru wambaye amadarubindi, ari gufashwa n'umugore we barishimye bari guseka, umugore ari kumufasha kumanuka esikariye kubera ko umugabo ageze mu zabukuru nta mbaraga nyinshi akigira.

Umugore ukuze mu myaka, yicaye hasi, ari guteka, ku ruhande rwe hari amashyiga acanyemo n'inkwi, hejuru hariho agasafuriya k'umukara gapfundikijwe n'akandi gasafuriya.

Umubyeyi w'umugabo wambaye amarinete ari kuganira n'umuhungu we bari guseka barishimye bari gusoma mu gitabo bose biteretse amatasi y'umweru arimo ka cyayi bari kugenda basomaho gake gake.

Umukobwa uri kumwe n'umugore ukuze kuko afite imvi, ari kumufasha guterura akuma bakoresha barimo barakora siporo ngororamubiri, bari kuganira bakora siporo ndetse barishimye.

Umuforomo w'umugore uri kumwe n'umubyeyi ugeze mu zabukuru kuko uwo mubyeyi afite imvi mu musatsi, umuforomo ari kumukoresha siporo ngororamubiri amurambura amaboko.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru, umugabo afite ibinini bibiri mu ntoki n'ikirahure cy'amazi kimuteretse imbere, umugore we ari kumwereka akoresheje agapapuro ko kwa muganga amwereka uburyo bwo kunywamo imiti.

Umugabo ndetse n'umugore bageze mu zabukuru kuko bose bafite imvi, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza y'igiti iteretseho amadokima agiye atandukanye, barimo barayasoma.

Umuganga wambaye itabuririya y'umweru ari kumwe n'umugabo ugeze mu za bukuru kuko yatangiye kuzana imvi, muganga ari gusobanurira uyu mugabo akoresheje ibipapuro afite imbere y'iwe uburyo ubuzima bw'umugabo buhagaze.

Umuforomo wambaye imyenda y'ubururu, arigufasha umugabo ugeze mu za bukuru hakoreshejwe ibyuma byabugenewe bimufasha guhagarara neza akagenda atagwa.

Umugore ugeze mu zabukuru, yicaye mu kagare k'umukara, ari kumwe n'umuforomo wambaye imyenda y'icyatsi, umuforomo akaba ari kumufata umuvuduko w'amaraso, akoresheje icyuma cyabugenewe bashyira ku kaboko k'umurwayi.

Mu isoko ricuruza imbuto ndetse n'ibiribwa, abagore baricaye bafite ibitebo by'inyanya imbere yabo bari kuganira baseka.

Abagore batatu umwe ukuze ugeze mu zabukuru kuko afite imvi, abandi baracyari bato, barishimye bari gukina amakarita.

Umubyeyi ukuze, ari kumwe n'abana benshi cyane, harimo abana be, ndetse n'abuzukuru be. Bose baje kumusura, baramugaragiye barishimye.

Umugore ugeze mu za bukuru yambaye amadarubindi n'shati y'umuhondo afite agacupa mu biganza bye ari kubara ibinini byo agiye kunywa bimufasha mu ndwara arwaye.

Umugabo n'umugore bageze mu zabukuru kuko bafite imvi z'umweru, baricaye bari gukina agakino barishimye bari guseka.

Umuforomo w'umugore ari kumwe n'umugore ugeze mu zabukuru, aho ari kumwitaho, bari kuganira barishimye baraseka.

Abagore babiri bageze mu zabukuru bari kumwe, umwe imbere, undi inyuma, bambaye imyenda ya siporo, bari gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo wambaye kositime n'ishati y'umweru ari kumwe n'abamansera batatu bagenda bahana ibiganza inyuma yabo hari ibirango by'u Rwanda bigaragaza minisiteri ishinzwe ubuzima mu Rwanda.

Mu cyumba cyo kwa muganga bavuriramo abarwayi, abaganga bagera muri batanu bakikije umurwayi uryamye ku gatanda, bari kumukorera ubuvuzi.

Umugore wambaye ishati y'icyatsi afite indangururamajwi y'umukara mu biganza arishimye ari guseka aganiriza urubyiruko aho yaruteranyirije muri sare nini cyane.

Abantu benshi bari mu ngeri zose bahuriye mu muhanda, mu rugendo rwo gushishikariza urubyiruko kwipimisha virusi itera SIDA ndetse bakanayirinda.

Mu cyumba cy'abaganga bakoreramo operasiyo, bari kuvura umurwayi, bambaye imyenda yabugenewe, ifite ibara ry'ubururu ndetse n'udupfukamunwa.

Umugabo ndetse n'abagore babiri bicaye imbere, bari kuganiriza abantu batumiwe mu biganiro byateguwe na RBC.

Urubyiruko rwambaye imipira y'umweru, rwakusanyirijwe ahantu hamwe kugira ngo baruganirize kuri gahunda za Leta zo kwirinda indwara zigiye zitandukanye.

Ababyeyi baje kwa muganga guteza inkingo abana babo batoya, bose baricaye bategereje muganga, kandi bateruye abana babo.

Itangazo ry'ikigo k'igihugu gishinzwe ubuzima RBC, rishishikariza abantu kwiteresha inkingo za covide kuko aribwo buryo bwizewe kandi bunakenewe.

Urubyiruko rw'abangavu bahurije hamwe mu kwigishwa uburyo bagira isuku mu gihe cy'imihango, iki gihe abangavu cyangwa abana bato b'abakobwa bahabwa inyigisho yabashishikariza uburyo bajya biyitaho mu gihe bagiye mu mihango.

Abantu benshi batumiwe mu cyumba cy'inama, bicaye bateze amatwi ibiri kuvugirwa imbere, bicaye ku ntebe zifite amabara y'umutuku.

Mu cyumba cyo kwa muganga aho abaganga bavurira umurwayi. Abaganga bambaye imyenda yabugenewe barahagaze, bazengurutse umurwayi uryamye ku gitanda bari kumuvura.

Kugira ngo hirindwe ikwirakwiza rya Covid cumi n'icyenda, umusore yaje kwiteresha urukingo rwa Covid cumi n'icyenda. Umuganga ari kumutera urukingo ku kuboko, umusore na we yazamuye ishati yo ku kuboko kw'iwe.

Uducupa turimo ibizamini byagiye bifatwa abantu batandukanye babapima ibicurane by'inkende, utu ducupa dufite ibirango by'umweru mu magambo y'umukara.

Inama ifata imyanzuro, iri kuganira n'inzobere bafata imyanzuro mu buryo bwo kurwanya icyorezo cyateye, abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bitabiriye iyo nama kugira ngo bumve ibyavugiwemo.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe, bari kuvura umurwayi w'umusaza wicaye ku ntebe, umurwayi arasamye bari kumupima mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda cy'abarwayi ndetse na mudasobwa zikoreshwa na muganga, mu gihe ari kuvura abarwayi.

Inyubako ifite imiryango y'ibirahure. Ni inyubako bacururizamo amadarubindi, afasha abafite ikibazo cy'amaso, kubona neza, nta mbogamizi.

Umugore uhetse umwana ahagaze imbere y'amarembo y'ikigo nderabuzima cya Kigina. Ategereje kwinjira, aho agiye kuvuza umwana we.

Abaganga babiri bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru, bari mu cyumba cyo kwa muganga, aho bari gukoresha imashini ifite mudasobwa bareberamo imbere.

Inyubako yo kwa muganga, ifite inkuta z'umweru, ni iyi nyubako iyo uyinjiyemo hagiye harimo imiryango itandukanye, ikwerekeza aho abaganga baba bari ndetse n'ibyumba byakirirwamo abarwayi.

Ababyeyi b'abamama n'ababagabo baricaye bateze amatwi, bicaye ku ntebe z'icyatsi, bigaragara ko babahayeinifomo, bamwe bambaye imipira y'imihondo, abandi bambaye imipira y'ubururu, barakurikiye neza cyane.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari umugore uryamye ku gitanda cy'abarwayi, muganga yaje kumusura ngo amubaze uko amerewe, amenye niba hari ikindi yamufasha.

Mu cyumba cy'inama cyo kwa muganga, aho abatumiwe bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza zifite ibitambaro bisa icyatsi. Buri muntu wicaye aho yiteretse icupa ry'amazi imbere ye.

Ububiko bw'amadarubindi akoreshwa n'abantu bafite ikibazo cy'amaso bubika amadarubindi menshi ahagije munsi yaho hari ishusho yerekana umugore wambaye nawe amadarubindi.

Icyumba cyo kwa muganga, cyakirirwamo abarwayi, gifite ibitanda byinshi, bigiye bifite za mudasobwa ku mpande zo kureberamo uko abarwayi bahagaze. Icyumba ntamuntu ukirimo ariko kirateguye, ku buryo isaha n'isaha cyakakira umurwayi.

Umuganga w'umugore, wambaye agapfukamunwa n'itaburiya y'abaganga. Yicaye mu cyumba avuriramo, yakiriye umurwayi w'umwana; muganga ari kuvura umwana.

Inzu yubatswe n'amatafari ahiye ikoreramo ikigo nderabuzima cya Gishweru, umugabo n'umugore ndetse n'abandi basore bari ku mpande bari imbere y'iyo nzu.

Icyumba kinini cyane, gifite imiryango y'icyuma, gikoreshwa nk'ububiko bw'imiti, iki cyumba kikaba ari ingirakamaro kuko gifasha kubika imiti neza kugira ngo itangirika.

Inyubako y'ibitaro igeretse kabiri, ikaba ari inyubako nziza cyane, kuri iyo nyubako hari kuganayo abagabo ndetse n'abagore bagiye gusuzuma uko ibikorwa byo kubaka iyo nyubako byagenze.

Icyumba cyo kwa muganga, gifite imitako myiza gisize amarangi y'umweru, mu cyumba harimo ibikoresho birimo na za mudasobwa, zikoreshwa n'abaganga bavura umurwayi, munsi y'igitanda cy'umurwayi harimo utuntu babikamo ibintu dukozwe mu biti.

Icyumba cyiza cyane cyo kwa muganga aho abarwayi bategerereza bategereje ko muganga abakira. Gifite intebe nziza abarwayi bicaraho bategereje.

Umusore wazanye na murumuna we kwa muganga, bari kumwe na muganga, aho muganga ari gupima umutima w'umwana akoresheje igikoresho cyabugenewe, barishimye bari guseka.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda kiryamishwaho abarwayi, ku ruhande rw'igitanda hariho ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa na muganga avura abarwayi.

Ikigo nderabuzima cya Kanyinya kigizwe n'inzu nini cyane isize amabara y'umweru igeretse rimwe. Imbere y'ikigo nderabuzima hashinzemo idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi, hagati y'ibyo bitanda harimo ibitambaro bigiye bitandukanya ibyo bitanda, mu cyumba harimo intebe abarwaza bicaraho barwajije abarwayi.

Kimwe mu byumba byo kwa muganga haryamyemo umurwayi wiyoroshe ishuka isa ubururu, ifitemo n'indabyo z'umutuku. Uwo murwayi akaba ari kwitabwaho n'abaganga bambaye amashati y'umweru n'ipantaro z'icyatsi.

Aho imodoka ziparika hari imodoka nyinshi z'ubwoko butandukanye, hitegeye inyubako nini y'amagorofa atatu ikoreramo ibitaro.

Inyubako nini, inyubako igizwe n'amagorofa abiri, iyi nyubako ikaba ikoreramo ibitaro, byitiriwe Umwami Faisal.

Abanyeshuri biganjemo urubyiruko bari mu cyumba cyo kwa muganga, bambaye amataburiya y'imyeru; bamwe baricaye abandi barahagaze bari gukora ubushakashatsi.

Icyumba cyo kwa muganga gikoreshwa kugira ngo abarwayi bahabwe serivisi zibohereza guhura na muganga. Kirimo intebe z'ubururu ndetse n'ameza y'umweru.

Mu nyubako yo kwa muganga, hahagaze umuganga wambaye imyenda yabugenewe, ari kumwe n'umurwayi, ari kumutera urushinge ku rutugu.

Mu cyumba cyo kwa muganga, abaganga bari kuvura umurwayi uryamye ku gitanda, bamwe bari kugenda bafasha muganga mukuru, bamuhereza ibikoresho kugira abashe kuvura umurwayi.

Umugore w'umuganga wambaye ishati y'umweru ari gupima umwana muto w'uruhinja, akoresheje umunzani wabugenewe. Inyuma ye hari abandi bagore bateruye abana bategereje ko na bo, babapimira abana babo.

Umuforomo w'umugore, wambaye imyenda ya roza n'agapfukamunwa, yambaye na ga z'umweru, ari gufasha abamama bakuze, abapima imivuduko y'imitima ndetse n'izindi ndwara zibasira ababyeyi bakuze.

Abaganga bambaye imyenda y'umweru, bari muri laboratwari aho bari gukora ubushakashatsi ku miti igiye itandukanye.

Mu nyubako yo kwa muganga, hahagaze abagore babiri. Umwe ateruye umwana w'uruhinja mu biganza. Undi wambaye amarinete, amuhagaze inyuma, bari kuvugana.

Mu nzu yo kwa muganga hari imiryango ikozwe mu birahure, mo imbere mu cyumba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye umuganga akoresha avura abarwayi.

Ibitaro bikuru bya Rwamagana, byasuwe n'abantu bagiye batandukanye ndetse banavuye no mu bihugu bigiye bitandukanye, ubu bakaba bahagaze bitegura gufata ifoto.

Inyubako y'umweru ikoreramo ibitaro, kuri iyo nyubako hariho umukobwa wegamye ku nkingi iri imbere, iyo nyubako itatswe n'utuntu tugiye dufite amabara y'ubururu ndetse n'umutuku.

Inzu yubatse mu buryo bwa kijyambere, ifite amapoto abiri ayiteye ku marembo ariho amadarapo abiri rimwe ry'u Rwanda n'irindi riranga ibikorerwa muri iyo nzu, ku nzu hejuru hariho icyapa kiriho ibishushanyo bigaragara ko iyo nzu yagenewe abana.

Mu cyumba cyo kwa muganga gifite inkuta zisa umweru, harimo igitanda kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'intebe ifite nayo ibara ry'umukara umuganga yicaraho ari kuvura abarwayi.

Abagore batatu bakora kwa muganga, bambaye imyenda yabugenewe y'ubururu ndetse n'udutambaro mu mutwe, barahagaze, bari kwitegereza ahantu hamwe.

Mu cyumba cyo kwa muganga, harimo intebe ifite ibara ry'ubururu yicarwaho n'abarwayi mu gihe bari kuvurwa, harimo indi ntoya ifite ibara ry'umukara yicarwaho na muganga igihe ari kuvura umurwayi.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru, ari kumwe n'umurwayi w'umugore, witeze igitambaro mu mutwe, inyuma yabo hari umuforomo wambaye imyenda yabugenewe y'ubururu.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho abantu batonze umurongo bategerejwe kugerwaho kugira ngo bahabwe serivise z'ubuvuzi. Ubishinzwe yicaye imbere ku ntebe, agenda yakira umwe kuri umwe.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda byinshi bikozwe nk'intebe bifite amabara y'ubururu, kuri buri gitanda ku ruhande hari imashini ikoreshwa n'umurwayi ukiryamyeho.

Umumotari wicaye kuri moto yiwe, uhagaze iruhande rwa farumasi bita farumasi Iraguha, irimo umugore uhetse umwana ndetse ufite n'undi ku ruhande rwe, wambaye umupira w'umutuku n'abandi bari muri farumasi bategereje ko babakira.

Umurwayi uri kwa muganga aryamye ku gitanda cyabugenewe bigaragara ko ategereje ko bamukorera operasiyo ku mpande ze hari ibindi byuma byabugenewe bifasha abaganga kumwitaho ndetse bakanamuvura neza.

Mu nyubako yo kwa muganga, aho abaje kwivuza bicaye ku ntebe, bagiye basigamo intera ndetse bakambara n'udupfukamunwa kugira ngo batanduzanya. Aha ni mu gihe cy'icyorezo cya kovide.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bibiri. Ni ibitanda bikoreshwa n'abarwayi iyo baje kwivuza kwa muganga, icyumba gisa neza, gisize amarangi y'umweru, mbese bagikorera isuku ihagije.

Inyubako zikoreshwa nk'ibitaro. Kuri izi nyubako, imbere yaho hari ubusitani bukoze neza, ndetse muri ubwo busitani, hicayemo abantu, baje gushaka serivise zitangwa n'ibi bitaro.

Icyapa kiri mu ibara ry'umutuku, cyandikishijwe mu nyuguti z'umweru, kiranga aho ikigo nderabuzima cya Matyazo giherereye.

Umukozi wa Arabisi wambaye amarinete ndetse n'ijire y'umukara, yambariyemo umupira uriho ikirango cya Kuruwaruje. Ari gupima akoresheje icyuma cyabugenewe umuvuduko w'amaraso w'umurwayi umwicaye imbere ku ntebe y'umukara.

Inyubako igizwe n'igorofa rimwe, ikaba ikorerwamo n'Ikigo nderabuzima cya Nyarurenzi, iyo nyubako ikaba ifite abantu benshi bayinjiramo ndetse n'abayisohokamo b'abarwayi baba baje kwivuza.

Inzu ikoreramo Isange One Stop Center, ni inzu yakirirwamo abakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina.

Inyubako ikoreramo ibitaro. Ni inyubako ifite inkuta z'umweru, igiye ifite ibishushanyo by'imitako bigiye bimanutse ku nkuta. Ifite imiryango ikozwe mu biti.

Inzu zikoreramo ibitaro zifite amarangi y'umweru. Hanze hahagaze abantu, abandi bicaye mu busitani, baje kwivuza kwa muganga.

Imbere y'inyubako zo kwa muganga hari umwana muto wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bwo kutagenda, uwo mwana yitegeye imisozi imuri imbere.

Icyumba giherereye mu bitaro gifite imiryango ikozwe mu birahure, aho gikoreshwa mu kubika imiti ndetse n'amaraso ahabwa abarwayi kwa muganga.

Icyumba cyo kwa muganga gifite inkuta z'umweru ndetse n'amashusho y'imitako meza amanitse, gifite igitanda kiryamaho umurwayi uri kwa muganga, gifite imashini zikoreshwa na muganga avura umurwayi.

Mu nyubako ikoreramo ibitaro ifite inkuta z'umweru, hari imiryango igiye itandukanye ndetse n'ibyapa biranga amerekezo y'aho umuntu ari kujya.

Mu nyubako y'ibitaro, harimo icyumba abantu baje kwivuza bicaramo mu gihe bategereje guhabwa serivisi zo kwa muganga. Muri iki cyumba harimo intebe nziza zo kwicaraho, ndetse n'ameza meza.

Kwa muganga icyumba kirimo ibitanda byinshi bigiye biryamyeho abarwayi baje kwivuza, abaganga bambaye udupfukamunwa ndetse n'amataburiya y'umweru bari kwita kuri abo barwayi.

Umuganga ari muri laboratwari, arimo arasuzuma imiti, afite icupa risa ikigina, rifite akafuniko k'ubururu.

Icyumba kinini cy'abarwayi kwa muganga, kirimo ibitanda bihagije by'umweru, umuforomo wambaye imyenda yabugenewe y'icyatsi, ari kwinjira muri icyo cyumba.

Ubusitani bwo kwa muganga busa neza cyane bukikijwe n'inzu zubakishijwe amatafari ahiye zikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye byo kwa muganga.

Inzu isize amabara y'umweru, iriho ikirango kigaragaza ko ari ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge, ifite ubusitani imbere ndetse n'akayira k'abanyamaguru bagana muri ibyo bitaro.

Icyumba cya muganga kirimo intebe yicaraho, ndetse n'izindi zicaraho abarwayi mu gihe baganira na muganga, muri icyo cyumba harimo n'igitanda abarwayi baryamaho, kugira ngo muganga abashe kubavura.

Mu cyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda biryamyeho abarwayi, ku ruhande hahagaze abaganga bambaye imyenda yabugenewe ifite amabara y'umweru, yivanzemo n'imirongo y'ubururu.

Igishushanyo mbonera kizagenderwaho hubakwa ibitaro. Gisa neza, kigaragaza ko hazubakwa ibitaro. Bifite irangi ry'umweru, bifite ubusitani bwiza, kandi binini bihagije.

Inyubako icururizwamo imiti. Iyi nyubako igizwe n'utubati tugiye dupanzemo imiti igiye itandukanye, aho abarwayi baza kugurira imiti.

Icyumba cyo kwa muganga gikorewe isuku neza, iki cyumba gifite ububiko bukoreshwa mu kubika imiti, ni ububiko bukonjesha ndetse bukanarinda imiti kwangirika.

Umwana muto, wambaye ikoti, ari gusunika umugabo wicaye mu kagare k'abafite ubumuga bw'amaguru, ari kumusunika amwerekeza aho umugore ari.

Icyumba bakiriramo abarwayi b'abana, kigaragazwa n'inkuta, ibikoresho ndetse na sima bigiye bisize amarange meza cyane, yiganjemo oranje, icyatsi ndetse n'ubururu.

Ibitaro bigaragazwa n'inyubako nziza cyane bifite akayira k'abanyamaguru gakoze neza, ku ruhande hariho ubusitani bufite ibyatsi bitoshye, mu busitani hashinzemo ipoto rimanitseho idarapo ry'u Rwanda.

Inzu yo kwa muganga ifite inkuta z'umweru ndetse n'imiryango y'ibirahure, imiryango ifite uturango tw'umweru ndetse n'umutuku turi hejuru tugaragaza amerekezo y'aho serivise zigiye zitandukanye zibarizwa.

Inzu isize irangi ry'umweru ndetse ikaba yubakishijwe n'amatafari ahiye. Ni inzu ikoreramo ikigo nderabuzima cya Rwerere.

Mu cyumba cyo kwa muganga hari ibitanda byinshi byakirirwaho abarwayi, ibyo bitanda bigiye bitandukanyijwe n'ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi cyijimye.

Inyubako ifite amarangi y'umweru ndetse n'utuyira dukoze neza tugana kuri iyo nyubako, iyi nyubako ikaba ikoreramo ibitaro, ifite ubusitani bwiza imbere yayo.

Inzu ya etaje yubatse neza cyane, inzu ikorerwamo ibitaro bita Poly Clinic. Ni inzu ituye ku muhanda ahitegeye amaso y'abanyamaguru.

Mu cyumba cyo kwa muganga, aho abarwayi bavurirwa. Harimo intebe muganga yicaraho avura abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa na muganga mu kuvura abarwayi.

Kwa muganga, abaforomo ndetse n'abaganga bari kwinjira mu bitaro, aho bajya gukorera akazi kabo ka buri munsi. Aha ni ho bavurira abarwayi baba baje babagana.

Inzu zikoreshwa nk'ibitaro, zifite ubusitani bwiza ndetse n'akayira k'abanyamaguru, umugabo afashe akaboko umwana we mutoya bari guca muri ako kayira bava kwa muganga.

Umuganga w'umugore wambaye itaburiya y'umweru, yaje gusura abarwayi baryamye ku bitanda kwa muganga. Yahagurukije umugore umwe amwicaza ku gitanda, ari kumubaza uko ubuzima bwe buhagaze. Inyuma ye hari undi murwayi utegereje.

Kwa muganga, icyumba cy'umurwayi kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo igitanda umurwayi aryamaho, intebe zigiye zitandukanye, harimo iz'umurwayi yicaraho cyangwa se abaje kumurwaza ndetse n'iya muganga. Harimo mudasobwa zigiye zitandukanye, zikoreshwa mu bitaro.

Amarembo agana mu bitaro bya Kabgayi, aya marembo agaragazwa n'ibirango byanditseho amagambo yerekana ko wageze mu bitaro bya Kabgayi.

Inzu bacururizamo imiti, iherereye i Kanombe, irafunguye mo imbere harimo abantu baje kugura imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo intebe eshatu ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa na muganga igihe ari kuvura abarwayi.

Igishushanyo mbonera kerekana uko ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge bizaba bimeze, bizaba bifite inyubako zigeretse ndetse n'ubusitani bwiza cyane imbere.

Abagabo babiri umwe yambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara uri kumanuka ava mu nyubako yanditseho mu nyuguti nkuru iniveresite nkuru y'u Rwanda, undi wambaye umupira w'umutuku na we uhagaze amwitegereza.

Icyumba bavuriramo abana batoya, icyumba gisa neza gifite imitako ku nkuta ishimisha abana.

Icyumba cyiza cyane gifite ibikoresho bigezweho bya siporo, gifite mudasobwa ebyiri zimanitse hejuru ku gikuta. Icyumba kitagaragaramo umuntu ariko gisa neza, gikorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itabuririya y'umweru, ari gusuzuma icyuma gikoreshwa kwa muganga, mu kugira ngo barebe mu mubiri w'umurwayi, babashe kumenya indwara yaba arwaye ndetse n'aho iherereye.

Inyubako yanditseho hejuru Karayesi, aho bajyana abantu bagiye batandukanye bavuye hirya no hino mu gihugu, bafite uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba cyo ku bitaro gikoreshwa mu kubika amaraso aba yagiye avanwa ahantu hatandukanye, aya maraso akaba yifashishwa mu kuvura abarwayi bagize amaraso make bayabongerera mu mubiri wabo.

Igikoresho gisa umuhondo gikoreshwa kwa muganga, kugira batwareho abarwayi cyangwa se abantu bakomeretse badafite ubushobozi bwo kugenda n'amaguru.

Umusore ufite umubiri mwiza w'abantu bakoze siporo, ari gukora siporo ngororamubiri, agorora amaboko ndetse yambaye n'imyenda yabugenewe ya siporo.

Umurwayi aryamye ku gitanda yambaye amasogisi y'ubururu bamupfutse ikiringiti cy'umweru agiye guca mu cyuma cy'ikoranabuhanga, ari mucyumba cy'umweru ndetse n'imashini agiye gucamo nayo isa umweru.

Umukobwa w'umwirabura ufite imyaka mu kigero cya makumyabiri n'itanu kuri mirongo itatu, arambuye amaguru hasi ari gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, aricaye yarambuye amaguru hasi, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ari kunywa amazi nyuma yo kuva muri siporo kuko amazi ari ingenzi mubuzima bwe.

Umusore wambaye agakomo k'icyatsi n'isengeri y'umukara, aricaye ari kunywa amazi mu icupa ribonerana avuye gukora siporo ngororamubiri.

Abaganga bambaye imyenda y'ubururu, bakaba bari ku meza akorerwaho operasiyo, bisa nkaho barimo barakorera umurwayi operasiyo bamuvura.

Uburyo butandukanye bwo gushyiraho bande ku kiganza cy'umuntu wagize impanuka zo ku kaboko. Ubwo buryo bukaba bukoreshwa bitewe n'ahantu uwagize ikibazo yakigize.

Umuganga w'abakinnyi ba siporo, wambaye agapfukamunwa, ari gufasha umukinnyi wahoze ukina akaza kuvunika akaboko.

Umuti ufunze mu macupa meza ariho ibirango by'ubururu mu icupa ry'umweru ufasha mu kugabanya ububabare bw'imvune.

Siporo n'ingenzi mu buzima bw'umuntu, iyo umuntu akora siporo bigaragara ko umubiri we ukora neza ukabasha guhangana n'indwara ndetse ukamurinda gusaza imburagihe.

Umugore ufite agasume k'umweru ku rutugu, afite icupa ry'amazi mu biganza bye, yarishyize ku munwa ari kunywa amazi kuko ari ingirakamaro mu buzima.

Umukobwa ufungiye imisatsi ye inyuma, yambaye isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Yarambitse agasambi hasi ari gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa arabyutse, yambaye imyenda ya siporo, aracyicaye ku buriri ari kwinanura, mu myenda ya siporo yambaye harimo isengeri y'umukara, ndetse n'ipantaro ya siporo na yo isa umukara.

Uruhago rufite ibara ry'umutuku, rwifashishwa n'abaganga ba siporo. Uru ruhago rwifashishwa n'abaganga ba siporo kugira ngo batwaremo imiti ndetse n'ibindi bikoresho by'ibanze bifashisha mu kazi kabo.

Bimwe mu bikoresho bikoreshwa mu butabazi bw'ibanze biba biri mu gasanduku harimo imakasi, amatoroshi ndetse n'utundi dukoresho tugiye dutandukanye twifashishwa mu gihe ababishinzwe batarahagera.

Umuganga wambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'ubururu, yicaye ku meza, ari kureba muri mudasobwa iteretse ku meza imbere ye.

Umugabo w'umwirabura wambaye isaha y'umukara, yifashe mu ivi yavunitse, ari mu mububabare bukomeye, yambaye ipantaro y'umukara, arunamye, ari gukora ku ivi ryiwe.

Umukobwa wafungiye imisatsi ye inyuma, wambaye isengeri y'ubururu. Yazindukiye muri siporo ndetse yafashe akanya, ari kunywa amazi.

Abana batoya bari mu kigero k'imyaka cumi n'umunani kumanura kugeza ku myaka umunani, bari muri siporo ngororamubiri, mu kibuga cya basiketi ubishinzwe umuyobozi wabo, ari kubererekera uburyo siporo bazikoramo.

Umusore wabyutse mu mugitondo ari ku kazuba, ari gukora siporo ngororamubiri, yambaye isengeri y'umukara.

Umusore wambaye umupira w'umweru, yagize ikibazo ku kuboko kwe, muganga yamuhaye ishashi ifite ibara ry'ubururu irimo barafu kugira ngo ashyire ku kuboko kwe habashe koroherwa.

Ibyuma bigiye bitandukanye bikoreshwa muri siporo ngororamubiri. Ibi byuma birimo ibifite ibiro makumyabiri, ibya bitanu ndetse n'ibindi bitoya ku buryo buri muntu wese ushatse gukora siporo ngororamubiri yabona icyuma yashobora.

Umugore wambaye imyenda ya siporo irimo isengeri ndetse n'ipantaro ya siporo, yicaye ku gasambi ari gukora siporo ngororamubiri.

Umurwayi waje kwivuza yahuye na muganga. Muganga aryamisha umurwayi ku gitanda cy'abarwayi, umurwayi yaryamye yubitse inda.

Agakoresho ka kijyambere kifashishwa mu buvuzi bwa siporo, kifashishwa n'abarwayi kugira ngo bakureho inda cyangwa se bakore siporo ngororamubiri.

Inyigisho yo kuvura hifashishijwe ikibumbano gisimbura umuntu ndetse n'imashini zikoreshwa havura umuntu.

Uruhago rufite ibara ry'umutuku, rwifashishwa n'abaganga ba siporo mu gutwara ibikoresho ndetse n'imiti by'ibanze bifashisha mu kazi kabo.

Umugabo ufite umupira mu ntoki ari gukora siporo ngororamubiri. Inyuma ye hari undi mugabo w'umutoza uri kumwerekera uko azikora, ndetse ari kumubarira igihe ari gukoresha.

Umusore yazindutse mu gitondo ashyiramo imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo ubundi atangira gukora siporo ngororamubiri.

Umusore uri mu cyumba cya siporo, ari gukoresha imashini zabugenewe zifasha abantu gukora siporo, akora siporo ngororamubiri.

Akagare gafite amapine ane gakoreshwa mu gutwara abantu bafite ikibazo cy'ubumuga bw'amaguru. Aka kagare kakaba gafite ibara ry'umutuku.

Umugore wambaye imyenda yabugenewe ya siporo, irimo ipantaro y'umukara ndetse n'isengeri yumukara, aryamye hasi mu cyumba gifite inkuta z'umweru, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo ndetse n'inkweto za siporo, ahagaze mu kazuba, ni mu gitondo, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umusore uvuye muri siporo, utwaye agasume k'umweru ku rutugu, ari kunywa amazi mu icupa ribonerana, rifite umupfundikizo w'ubururu.

Umusore w'umwirabura aricaye hasi ararambije, ari gukora siporo ngororamubiri yambaye umwenda w'umuhondo wanditsemo n'amabara y'umutuku.

Umuforomo ari kumwe n'umurwayi w'umugabo, ari kumufasha gukora siporo ndetse n'imyitozo yo kugorora ingingo ziwe.

Umugabo ukuze wambaye umupira ,yazindukiye muri siporo. Afite mu biganza bye icupa ry'amazi ribonerana, yarishyize ku munwa ari kunywa amazi.

Imugore w'umwirabura wambaye isengeri ijya gusa umuhondo ndetse n'isaha ku kuboko. Yazindutse mu gitondo ari gukora siporo ngororamubiri.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye imyenda ya siporo ndetse ari gukorera imyitozo mu cyumba cyabugenewe, imbere ye hasutamye umugore uri kwitegereza uburyo uwo mugabo ari gukoramo siporo.

Agatanda gakoreshwa kwa muganga, mu gutwara inkomere cyangwa se abantu bavunitse batakibasha kugenda.

Ikirahure kibonerana kiri ku meza y'umweru, umuntu ari kugisukamo amazi, akoresheje ikindi kintu bashyiramo amazi na cyo kibonerana.

Uruhurirane rw'ibintu bigiye bitandukanye byatuma umuntu agira ubuzima bwiza, harimo imbuto, gukora siporo, kunywa amazi, ndetse no kunywa imiti neza mu gihe yarwaye.

Indege zitwara zikoreshwa mu buvuzi kugira ngo babashe kugeza imiti aho iba igomba kugera mu gihe cyihuse kandi itangiritse.

Umugore wabyutse mu gitondo, agatangira gukora siporo ngororamubiri. Yicaye ku musambi usa umukara, ndetse imbere ye, hateretse icupa ry'amazi ribonerana.

Umugabo n'umugore bahagaze hanze. Umugabo afite umupira w'amaguru mu ntoki, naho umugore akoresheje imbago z'amaguru ane, ari kugenda agana aho umugabo ari.

Umuganga wambaye imyenda y'icyatsi yabugenewe, ari kumwe n'umurwayi ufite ikibazo mu kaguru, umurwayi aryamye ku gatanda k'abarwayi, muganga ari kumwitaho.

Umugore wambaye imyenda ya siporo yabugenewe, harimo isengeri y'umukara, inkweto z'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, yicaye hasi, yarambije amaguru, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, irimo amabara y'umukara. Yicaye hasi ari gukora siporo ngororamubiri. Imbere y'uwo mukobwa hateretse icupa ry'amazi ribonerana.

Umusore wambaye umupira w'umweru, ari muri siporo. Yafashe akanya gatoya ari kunywa amazi akoresheje icupa ribonerana.

Abasore bane bari gukora siporo ngororamubiri zo kwiruka, bari mu muhanda wigoronzoye uciyemo imirongo y'umweru.

Muganga wambaye ishati y'umweru, ari kumwe n'umurwayi wicaye ku ntebe yabugenewe, ari gukora siporo zimufasha kuvura amaguru yiwe yavunitse.

Umukobwa wambaye imyenda yiganjemo umukara ya siporo ndetse n'inkweto nziza cyane, yicaye hasi, ari gukora siporo ngororamubiri, imbere ye hateretse icupa ry'amazi, ririmo amazi yo kunywa narangiza gukora siporo.

Umugore wagize ikibazo cyo kuvunika ku kuboko, muganga yamuhaye ishashi ifite ibara ry'ubururu irimo barafu yo gushyiraho kugira ngo yoroherwe.

Umuganga ari gufasha umurwayi wagize ikibazo cyo kuvunika mu kaguru, umurwayi bamuryamishije ku gatanda k'abarwayi, umuganga ari kumufasha.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo, aricaye yarambuye amaguru, ari gukora siporo ngororamubiri kuko ari nziza ku buzima bwe.

Inkweto z'umukara ndende zifungishwa imishumi zifite n'imashini izamuka kumpande, inkweto ni shyashya bazita bato.

Umugore wambaye umutako ku kuboko, yasashe hasi agasambi gasa ubururu, akicayeho yarambuye amaguru, ari gukora siporo ngororamubiri.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku bantu bagize ibikomere, Harimo arukoro ndetse n'udupfuko two gushyira ku bikomere baba bagize.

Umubyeyi yazanye umwana we muto uri mu myaka itatu kugeza kuri ine bari kwa muganga aho umuganga wambaye imyenda y'ubururu ari ku mupima amumurika agatoroshi mu gahanga.

Umukobwa ufite icupa ry'amazi ry'ubururu ari kunywa amazi, avuye muri siporo, yambaye terefone ku kuboko akoresheje agakoresho kabugenewe, bigaragara ko hari umuntu ukunda gukora siporo.

Siporo ngororamubiri irigukorwa n'ingeri zose z'abaturarwanda bahuriye ahantu hamwe kugira ngo baterane imbaraga zo gukora siporo.

Imipira igiye itandukanye ikoreshwa muri siporo, iyi mipira ikaba ikoreshwa mu gukina imikino itandukanye muri siporo ngororamubiri.

Imbago ya kijyambere ikoreshwa n'abantu bavunitse, cyangwa se abageze mu zabukuru. Iyo mbago ifite amapine ane yifashishwa mu kugenda.

Umukobwa wambaye imyenda ya siporo yabugenewe, ahagaze ku gasambi ari gukora siporo ngororamubiri.

Igikoresho gifite amabara y'umuhondo, gikoreshwa mu gutwara abarwayi badafite ubushobozi bwo kugenda cyangwa se abakinnyi bavunitse.

Bimwe mu bintu bituma abantu bagira ubuzima bwiza harimo kunywa amazi, kurya indyo ihagije, irimo inyama, imboga ndetse bakanakora na siporo ihagije.

Umugore ubyibushye wambaye imyenda ya siporo irimo inkweto z'umweru, agasengeri ndetse n'ipantaro, arahagaze ari gukora siporo ngororamubiri.

Umukobwa wambaye inkweto z'umuhondo zabugenewe za siporo ndetse n'imyambaro irimo agakabutura ndetse n'isengeri na byo bya siporo, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umuganga w'abakinnyi ari kuvura umukinnyi wahoze ukina akaza kugira ikibazo mu ivi, umukinnyi araryamye ku ruhande rwe hariho umupira w'umupira w'amaguru w'umweru.

Umugabo ufite ikibazo mu kaboko ari kumwe n'umuganga uri kugenda amufasha kugorora imitsi yo mu kaboko. Umugabo ateruye akuma gafite ibiro bikeya mu rwego rwo kumenyereza ukuboko kwe gukora neza.

Umugabo w'umwirabura ari kunywa amazi ayanywera mu icupa ribonerana, afite icyaka cyinshi cyane, ari kunywa amazi ataruhuka.

Umusore ufite imbaraga yazindukiye mu myitozo ngororamubiri, yambaye imyenda myiza ya siporo yiganjemo amabara y'umukara.

Umuntu wavunitse ikirenge ari gukoresha ishashi irimo ibintu by'ubururu ashyira ahavunitse ku kirenge kugira ngo abashe guturisha imitsi.

Umugore wambaye isengeri y'umweru, ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu bwerurutse, yazindutse mu gitondo ahagaze ku musambi, ari gukora siporo ngororamubiri.

Umugore uri mu kigero cy'imyaka makumyabiri n'itanu kuri mirongo itatu n'itanu, aricaye yarambije amaguru ari gukora siporo ngororamubiri kubera ko ari ingenzi ku buzima bwe.

Umukobwa wambaye imyenda yabugenewe ya siporo, harimo isengeri y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara imufashe, ahagaze yitegeye amazi magari ari gukora siporo ngororamubiri.

Igikoresho cyifashishwa kwa muganga kugira ngo bafashe abantu bagize ibibazo by'amaguru kongera kwitoza kugenda neza, gifite ubuzamuke bwa santimetero ijana n'imwe ndetse n'ubutambike bwa santimetero mirongo itandatu n'umunani.

Umukobwa ufite imisatsi y'umukara yafungiye inyuma, ari gukora siporo ngororamubiri, yazamuye amaboko ari gukora siporo neza cyane.

Igitanda cyo kwa muganga, kiryamaho abarwayi. Kiri mu cyumba, aho umurwayi ahurira na muganga, harasa neza, hakoze isuku.

Muganga uri mu cyumba cyo bakoreramo imyitozo ngororamubiri, uwo muganga yambaye itaburiya y'umweru ndetse afite umupira wa siporo mu biganza bye.

Umusore w'umwirabura wambaye agakabutura k'umweru ndetse n'inkweto za siporo, arasutamye ari gukora siporo ngororamubiri.

Umuganga w'umugore wambaye imyenda yabugenewe ifite ibara ry'icyatsi, ari kumwe n'umwana muto umwicaye iruhande, umuganga ari kumuvura.

Imodoka y'umweru ifite ipine riyometse inyuma izwi ku izina rya ambirananse ikaba iri mu rugendo ijyana umurwayi ku kigo nderabuzima.

Umusore wambaye imyenda ya siporo, irimo ikabutura y'umukara ndetse n'isengeri y'umukara. Yicaye hasi, yifashe mu itako, yavunitse.

Muganga wambaye itaburiya y'umweru ari kuvura umurwayi ufite ikibazo mu ivi, muganga ari kugenda amukoraho ku ivi ahagiye hatandukanye kugira ngo yumve aho ababara abashe kumufasha.

Agacupa gatoya gafite ibara ry'umweru ndetse n'umufuniko ufite ibara ry'umukara, aka gacupa karimo umuti ukoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amazi avanzemo n'ibibabi bikoreshwa nk'umuti mu buvuzi gakondo, bimwe muri ibi bibabi harimo ibibabi by'igiti bita umuravumba, aya mazi ari mubirahure bibonerana.

iIgihingwa cyangwa se ikimera bita inteja akaba ari kimwe mu bihingwa bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo cyangwa se mu kuvura abantu hifashishijwe ibimera.

Mu ishyamba ry'inzitane rifite ibiti birebire aho abavuzi gakondo bajya gushaka ibihingwa cyangwa imboga zimwe na zimwe bakoresha bavura abarwayi.

Umuti w'amenyo uri mu icupa rifunze neza ry'umweru ririho ibirango by'ibimera uwo muti ukaba ukozwe mu kimera bita igikakarubamba ari nacyo gishushanyije ku icupa uwo muti ufunzemo.

Amacupa abonerana afite imifuniko ifite ibara ry'icyatsi, aya macupa apfunyitsemo umuti ufite ibara ry'ikigina, ukoreshwa mu buvuzi gakondo.

Abagabo batandukanye, bamwe muri bo bambaye imipira y'icyatsi, basuye umurima uterwamo ibikakarubamba, bari kubyitegereza babasobanurira uburyo bihingwamo ndetse n'uburyo bisarurwamo.

Bimwe mu bintu bikoreshwa mu miti ya kinyarwanda cyangwa se imiti gakondo harimo ibyatsi bigiye bitandukanye, ubunyobwa ndetse n'ibitoki byose bikoreshwa bivangitiranwa kugira ngo havemo umuti wa Kinyarwanda.

Kimwe mu bimera bikoreshwa mu buvuzi gakondo, havurwa indwara zigiye zitandukanye. Icyo kimera bacyita umuravumba.

Icupa ry'umuhondo rifite umufuniko ufite ibara ry'umutuku. Muri iri cupa hafunitsemo amavuta akoreshwa mu buvuzi gakondo. Aya mavuta akomoka ku bimera bita ibikakarubamba.

Umugabo ukuze wambaye umupira w'umweru, yaje mu ishyamba, ari gusarura amababi ku biti akoreshwa mu buvuzi gakondo, ari kugenda arebamo amababi meza atoshye.

Umuganga wambaye imyenda y'umweru, yicaye imbere y'ameza y'umweru, afite mu kiganza kimwe agakarito kavamo imiti, mu kindi imiti igizwe n'ibinini bitatu.

Imiti gakondo igiye itandukanye, iteretse hasi ku gipapuro gifite ibara risa kake, iyo miti iteretse ku ruhande agakoresho kameze nk'agasekuru bakoresha kugira ngo basekure iyo miti.

Amacupa y'umweru apfunyitsemo amavuta akozwe mu bimera bigiye bitandukanye, aya mavuta akaba akoreshwa mu buvuzi gakondo kugira ngo avure indwara z'uruhu.

Igiti kiri mu ishyamba gitoshye neza, iki giti bacyita igiti cy'umuravumba. Amababi yacyo yifashishwa n'abavuzi gakondo kugira ngo bayakoremo umuti uvura indwara zigiye zitandukanye.

Agakoresho kayora ibinini, gakozwe mu giti. Kayoye ibinini byinshi by'ibizero, bifite ibara ry'icyatsi.

Amacupa y'umweru afite imifuniko y'umweru, aya macupa apfunyitsemo amavuta akoreshwa mu buvuzi gakondo, aya mavuta akaba ava ku gihingwa bita igikakarubamba.

Bimwe mu bihingwa ndetse n'imboga rwatsi zikoreshwa mu buvuzi gakondo, zikaba zikurwa ahantu hagiye hatandukanye, mu mashyamba, mu mirima waba warazihinze, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Mu isoko haje uruhurirane rw'abantu bagiye batandukanye, baje guhaha. Harimo imbuto ndetse n'imiti gakondo ifunze mu macupa.

Umuti w'amenyo ukozwe mu bimera ukoreshwa mu gusukura amenyo. Uyu muti w'amenyo ukozwe mu kimera bita igikakarubamba.

Amacupa y'umweru, ariho ibirango biri mu mabara agiye atandukanye. Apfunyitsemo amavuta ndetse n'andi macupa apfunyitsemo amasabune, akorwa mu bimera, harimo nk'igikakarubamba ndetse na avoka.

Amacupa ya pulasitike, afite imifuniko y'ubururu. Aya macupa, apfunyitsemo imiti igiye itandukanye, ikoreshwa mu buvuzi gakondo, kugira ngo bavure indwara.

Kimwe mu biti bivaho amababi akoreshwa mu buvuzi gakondo. Iki giti bacyita igiti cy'umuravumba. Amababi yacyo akaba akoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Umuti gakondo upfunyitse muri ambaraje isa neza, ifite ibara ry'umuhondo ya kijyambere, ijyamo amagarama ijana.

Umuti gakondo ukorwa mu bimera ufunze mu ishashi ishya umuhondo ya kijyambere iyo shashi ikaba yakira amagarama ijana.

Imiti itandukanye ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Ipfunyitse mu macupa y'amabara na yo atandukanye, agiye ariho ibirango by'ibipapuro.

Umuvuzi gakondo akoresheje ibikoresho bye bya gakondo ari kuvangitiranya imiti ikoreshwa mu buvuzi igiye itandukanye kugira ngo ayikoremo umuti wavura umurwayi.

Agacupa gato k'ubururu, ndetse gafite n'umufuniko w'ubururu .Aka gacupa, gafunyitsemo amavuta akoreshwa k'uruhu mu buvuzi gakondo.

Akabati kagiye gatondetsemo imiti ya gakondo, iyo miti ifunze mu macupa ya purasitike agiye afite ibirango by'ibipapuro.

Umugabo ari gushyira umuti w'amenyo ku buroso bw'amenyo, uwo muti w'amenyo ukaba ukozwe mu kimera bita igikakarubamba.

Umuganga gakondo ari gupfunyika imiti gakondo iri mu macupa abonerana afite imifuniko y'umweru ndetse n'ibirango by'ibipapuro, ari kuyapfunyika mu makarito afite ibara ry'umutuku.

Umugabo uhagaze imbere y'inyubako, wambaye umupira w'icyatsi, afite mu biganza bye, ibimera bibiri, bikoreshwa mu buvuzi gakondo.

Amavuta akorwa mu bimera bya gakondo, amavuta ni meza cyane kuko agira akamaro ku mubiri. Aya mavuta akorwa mu kimera bita igikarubamba, akaba afunze mu icupa ryiza rijya gusa umuhondo.

Icupa ry'umweru, ririho ibirango biri mu ibara ry'ubururu. Iri cupa rikaba ripfunyitswemo amavuta, akozwe mu bimera bita igikakarubamba. Aya mavuta, akaba akoreshwa mu buvuzi gakondo.

Mu ishyamba, ahakurwa imiti ikoreshwa mu buvuzi gakondo. Imwe mu miti ivayo, harimo ibibabi biva ku giti, bita umuravumba. akaba ari kimwe mu biti, byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Ikimera cyitwa umuravumba kikaba ari icyatsi gishya icyatsi kiboneka mu mashyamba ndetse no mu ngo z'abantu aho bagiye bagitera kikaba ari kimwe mu bimera bikoreshwa n'abavuzi gakondo.

Kimwe mu bimera bikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ibimera akenshi usanga byimeza mu mashyamba cyangwa mu bihuru. Abavuzi ba gakondo babishaka batabiguze ku isoko ahubwo bagiye kubisarura ahantu hagiye hatandukanye byagiye byera.

Amacupa y'umweru afite imifuniko y'umweru, aya macupa ariho ishusho y'igikakarubamba, akaba ari amavuta akoreshwa mu buvuzi gakondo.

Icupa ry'umweru rifite umufuniko w'umweru, ni icupa ririmo amavuta akorwa mu bimera bita igikakarubamba, aya mavuta akaba yifashishwa mu buvuzi gakondo.

Agakombe k'ikirahure karimo umuti wa kinyarwanda bita umuravumba. Umuravumba ukaba ari umuti ukoreshwa cyane cyane mu Rwanda mu miti gakondo ndetse n'ahandi muri Afurika.

Isabune isa icyatsi ikoreshwa mu buvuzi gakondo mu gukiza indwara z' uruhu, iyo sabune ikozwe mu bimera nka avoka ndetse n'igikakarubamba.

Amacupa y'umweru arimo imiti ya gakondo ifunze neza, ayo macupa akaba yanditseho n'ibirango biri mu mabara agiye atandukanye.

Inzu icururizwamo imiti ya Kinyarwanda, irimo utubati tugiye dupanzemo imiti ya Kinyarwanda ipfunyitse mu macupa maremare ndetse n'amagufi.

Igiti cy'umuravumba kiri mu ishyamba, cyarakuze cyane. Iki giti gikoreshwa n'abaganga ba kinyarwanda, abo bita abavuzi gakondo, bavura abantu baje babagana.

Igihingwa cya tangawizi gikoreshwa cyane mu buvuzi gakondo aho bakivangitiranya n'indi miti myinshi kikifashishwa mu kuvura abarwayi. Gikasemo uduce twinshi, izindi ziracyari zose ziteretswe ku gitambaro cy'umweru.

Uducupa dutatu tw'umweru turimo imiti ikoreshwa kwa muganga, igiye itandukanye, uducupa dusa neza cyane.

Ingemwe z'igiti bita umuravumba ziracyari aho zitunganyirizwa, umuravumba ni kimwe mu biti bikoreshwa mu buvuzi gakondo mu Rwanda.

Agasekuru gakozwe mu mabuye, gafite n'umuhini bisa by'umukara, na wo ukozwe mu mabuye, ni gato, gakoreshwa n'abaganga ba Kinyarwanda, abo bita abaganga gakondo, basya imiti yo kuvanga kugira ngo bahe abarwayi.

Ishashi yabugenewe y'umweru ifite amabara avangavanzemo ubururu ndetse n'umweru, ijyamo amagarama cumi n'arindwi, iyo shashi ikaba ikoreshwa mu gupfunyika amata.

Imiti, amavuta ndetse n'ibindi bigiye bikorwa mu bimera bitandukanye byose bikoreshwa nk'imiti y'ubuvuzi bw'uruhu bw'amenyo ndetse n'izindi ndwara.

Bimwe mu bintu bikorwa mu gihingwa cy'igikakarubamba, harimo n'umuti w'amenyo, ufungwa mu icupa ryiza risa umweru, rishushanyijeho n'igikakarubamba, uwo muti w'amenyo ukaba ukoreshwa mu koza amenyo agasa umweru.